Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umukara barambitse amaboko ku meza iriho ibitabo, amakaramu, amazi yo kunywa babiri bambaye ndeba kure abandi basobekeranije intoki.

Inzu nini iri kwakamo amatara menshi imbere yayo hari abantu bahicaye, ameza abateretse iruhande ariho amazi yo kunywa, udutabo, amakaramu n'utundi dukoresho dutandukanye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bari mu nama abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza maremare ashasheho igitambaro cya shokora abandi icy'umweru, mudasobwa ziteretseho n'amacupa y'amazi agipfundikiye.

Umugore wambaye ikoti ry'ubururu n'isaha ku kuboko imusatsi miremire isutse, afite indangururamajwi mu ntoki, impeta yambaye ku rutoki, ameza ari imbere ye asize irange ry'umutuku, umuti wica agakoko uhateretse.

Abakobwa babiri bicaye bari kureba imbere umwe afite indangururamajwi mu ntoki ze, ikaramu ipfundikije agapfundikizo k'umutuku, ameza manini arambuyeho igitambaro cy'umweru, ibitabo, agakombe kariho ku gasahani kahateretse.

Abantu bicaye mu ntebe imbere yabo hari ameza, amazi, ururabo hateguye, umuntu uri kubabwira yambaye imyenda y'umutuku hasi, hejuru umukara afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu bicaye ahantu ari benshi ku ntebe z'umutuku hasi ari icyatsi, abasore n'abakobwa hagati yabo hari umugabo uhagaze afunze ibipfunsi abirebesha imbere ari kumwenyura aseka.

Abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, harimo uhemetse iminwa, imbere yabo hari ameza maremare ateretseho mudasobwa, ibendera ry'igihugu, ririmo ibara ry'umuhondo, iry'ubururu n'iry'icyatsi, ukwezi, hirya hari andi meza ariho abagore n'abagabo.

Abantu bicaye ahantu hamwe abirabura abazungu ,abagabo n'abagore ameza abakikije arambitseho amazi yo kunywa, adapfunduye impapuro, mudasobwa n'ibindi.

Abantu benshi bicaye bateraniye ahantu hamwe mu nzu, imbere yabo hari ameza maremare ateretseho amazi apfumbikiye, impapuro ziriho abandi bafite amakaramu mu ntoki, harimo uwifashe ku itama, n'abafite amakaramu mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu nama abagabo n'abagore, inyuma yabo hari intebe nyinshi ziticawemo, imbere yabo hari ameza maremare ateretseho ibitabo, amakaramu, amacupa arimo amazi adapfunduye, abagabo babiri bifashe ku matama ubona ko bumiwe.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zitandukanyije amabara umuhondo, umweru, umukara mudasobwa ziteretse ku meza n'amacupa arimo amazi umuntu ubahagaze imbere ari kubabwira bamuhanze amaso bose.

Abantu benshi bicaye bari mu nama harimo abiganjemo igitsina gore, bambaye indeba kure, amaherena, barambitse ibintu byabo ku meza, amacupa y'amazi, aho bari hari amadirishya, inzugi, amarido n'ibindi.

Abantu benshi abagabo n'abagore imbere yabo hari ameza maremare, ashasheho igitambaro cy'umweru, amazi ahateretse apfundikiye, abari kwandika usoma agatabo, inyuma yabo ku ruhande hari uri kureba muri mudasobwa yambaye indeba kure.

Abantu bicaye ahantu hamwe, abagabo n'abagore babiri muri bo bafite indangururamajwi mu ntoki, umwe bigaragara ko ari kuyivugiramo yambaye amataratara mu maso ye, agapira k'umuhondo ijipo y'umukara, udukweto tw'umweru.

Umugabo wicaye umwe yashyize amaboko kumeza iteretseho indangururamajwi, amazi yo kunywa, ikinyobwa gifite ibara ry'umuhondo, ikaramu mu ntoki ze, yambaye ikote ry'ubururu, umutwe we uriho umusatsi mukeya n'ishati y'umweru.

Abantu benshi bicaye ahantu mu nama abagabo babiri bari kureba imbere n'abandi bari kurebana bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umweru, imbere yabo hari ameza maremare ateretseho ibirahuri n'amacupa.

Abantu benshi bicaye barambitse amaboko yabo ku meza, udutabo amazi apfundikiye, umwe yifashe mu ijosi yitegereza mugenzi we wambaye agatambaro mu mutwe, hari n'ufite ikaramu bari kureba.

Abantu benshi bari mu nzu ngari abagabo n'abagore bicaye barebana, imbere yabo hari uhahagaze, imeza ndende irambitseho impapuro, afite indangururamajwi mu ntoki ziwe ariko babwira bose.

Inzu nini imwe mbere iri kwakamo amatara menshi igizwe n'amabara y'umuhondo shokora abantu bahicaye bakurikiye inama abazungu abirabura abagabo n'abagore kumeza hanyanyagiye impapuro n'amazi ahatereretse.

Umuntu w'umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze, yambaye ishati y'ubururu, ingofero y'ubururu iriho ikirango, inyuma ye hari abandi bahari, abahungu n'abakobwa bambaye imyenda itandukanyije amabara.

Abantu benshi bicaye abagabo n'abagore, harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara risa n'ipantaro, ishati y'umweru, amataratara mu maso ye, intoki zifashe ikaramu zirambitse ku gitabo kiri ku bibero cy'iwe.

Abantu bicaye barangamiye mu cyerekezo kimwe, abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, umukara, ubururu, umweru, imbere yabo hateretse imeza iriho uducupa tw'amazi agipfundikiye impapuro.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara barebana, imyenda bambaye iratandukanye iy'ubururu, iy'umukara amakoti hagati yabo hari ameza asize irangi ry'umutuku, amazi ateretseho indangururamajwi na zo zihari bari kuzivugiramo.

Abantu benshi bahagaze bafite mudasobwa mu ntoki na terefone, bambaye udupfukamunwa, hirya yabo hari inzu hari n'umuntu uri kuza.

Ibyuma byinshi bihagaze n'ibindi bitambitseho, hateyeho ibindi bikurura amarezo, ibicu by'umweru, ibicu by'ubururu, inyuma hari ikindi kihahagaze gifite utuntu tw'umweru, n'utw'umukara.

Umurima munini urimo imboga zikiri ntoya zifite ibara ry'icyatsi, impande yaho hari ubuhumbikiro burimo izitaramera bwubakishijwe ibiti mu mpande no hejuru.

Umunara muremure ukurura amarezo, munsi yawo hari ibigori bihateye, ibihetse n'ibidahetse, igiti kirekire kirabije indabo nyinshi z'umuhondo, amazu ahubatse, hakurya hari ishyamba rigaragara ko ririmo amazu yubatse.

Icyuma kirekire gishinze gisize irangi ry'umutuku kizengurutswe n'ibindi, impande yacyo hari abantu babiri bahagaze, umuhungu n'umukobwa bose bambaye ingofero mu mutwe zidahuje amabara.

Inzu ifite amadirishya atatu urugi rw'ubururu aho usohokera ukandagira harubatse ubusitani buri murugo bufite indabyo zikiriri ntoya.

ibyuma bibiri bihagaze binini harimo igitambitse hirya yabyo hari igiti kirekire gikoze kigandaye n'ibindi bitoya, amazu ahubatse harimo isakajwe ibati ry'umutuku igipangu kirekire cyubakishije amatafari ahiye.

Ahantu hazengurutswe n'amabati menshi, ibyuma bihagaze, hari igishami kiriho insinga z'amashanyarazi zijyana mu byerekezo bitandukanye z'impande zaho; ibicu hejuru byiciyemo kabiri by'umukara n'umweru.

Inzu ifite igipangu, amatafari ahiye, isakajwe ibati ry'umutuku, impande yaho hicaye abantu babiri n'undi uhagaze, umutaka w'ubururu, ipironi rirerire rihari, rishamikiyeho insinga nyinshi.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Umugabo munini uhagaze ureba iburyo bwe, yambaye ingofero, umupira urimo uturongo tw'umukara n'umweru, ukuboko yakwerekeje imbere, ukundi kureba hasi; aritegereza cyane aho ahagaze hari ibintu bihakikije.

Umuhanda wegeranye n'akayira gato k'abanyamaguru, ubusitani buhateye butarakura cyane, igiti kirekire kizamuye gishamikiyeho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi, inzu ziri hirya yacyo ebyiri nziza zubatse zisakajwe ibati ry' umutuku.

Inzu nini cyane y'igorofa, imbere yayo hari indabo ziteye mu bibumbano by'ibumba, imodoka zihahagaze, imiryango ikinguye, icyuma kihashinze kirekire kiriho insinga z'amashanyarazi n'itara.

Umuhanda nyabagendwa ukoze neza, hirya yawo hari rigori yubakishije ya mabuye, umurima uhari uhinze, igipangu kirekire cyubatse mu matafari ahiye, ibiti birebire byakuze biganda kuri cyo by'indabo, icyuma kirekire kiriho insinga z'amashanyarazi.

Imodoka iri mu muhanda iri kugenda yicawemo n'abantu benshi, hirya yayo hari icyuma kirekire gishamikiyeho insinga nyinshi zijyana amashanyarazi, munsi hakaba hari indi nzu ihubatse, ifite ibara ry'umweru.

Ubuhumbikiro buri mu mifuka y'umweru burunze mo ibitaka, buteyemo ibiti batera ku nzu, hirya yabwo hari n'ibindi bikiri bitoya, ibyakuze birebire, akazu k'ibyuma gakinguye kari hagati yabwo.

Ibyuma birebire bihagaze ikirekire gishamikiyeho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi impande yabyo hari ibiti bitatu bikuze bigandaye, inzu ndende ifite irange ry'umweru isakaye mu buryo bucuritse.

Imodoka eshatu zihagaze iy'umweru, umukara, umutuku, abantu benshi, abagabo n'abagore abari kugenda bateye intambwe, imbere yabo hari inzu ndende iriho ibirangantego bitandukanye.

Ishyamba rya kimeza n'iriterano hagati yacyo hashinzemo icyuma kirekire gishamikiyeho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi, amazu yubatse hirya acukitse, imisozi igaragara hirya yaho.

IObitaro, abantu bari kugenda abandi baza, intebe iticaweho, igitaka kirunze, ibyapa, izuba riri kwaka, igicucu kitugamwemo.

Inzu nini y'igorofa igeretse kabiri, imbere yayo hari ubusitani bwubakiye neza, umugore ufite igikapu mu ntoki inyuma ye hari umwana uri kumukurikira, hirya y'iyo nzu hari n'indi ihubatse umuntu uhahagaze w'umugabo.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari umumama wunamye ubika ibintu mu gikapu, yambaye ijipo y'umutuku, umupira w'umweru, agapfukamunwa, imisatsi miremire, intebe ziticaweho n'izicaweho, hirya yawo hari ubusitani bwakuze.

Inzu nini yubatswe nk'ibitaro, ifite ibyuma bihagaze by'umukara, mu mpande zabyo hakaba ubusitani n'ikigega wakomeza ukagera ku modoka ihagaze, n'igiti kirekire kihari kihateye cyakuze neza.

Umumama uhagaze wenyine ari kumwenyura azamuye ukuboko, ahantu hari ibicuruzwa byinshi, afite umusatsi ugwa inyuma, iherena ku mutwi, ari kumwenyura yambaye ijipo irimo umukara n'utundi tubara dutoya.

Abantu benshi habarimo abakuze abagabo n'abagore bicaye ku ntebe bakurikiranye imbere yabo hari abahagaze n'undi wunamye yambaye agakoti umugore uri iruhande rwe yifubitse agashati k'umutuku.

Imodoka nyinshi ziri ahantu zihagaze, zitwara indembe kwa muganga n'abarwayi, ibitaro bihakikije, imbere yabyo hari abantu bicaye n'abahagaze, umugabo n'umugore bateye intambwe bari kugenda, izuba riri kuhaka.

Umuntu uhagaze mu mbuga nini iri kwakamo akazuba igicucu cyiwe ariko kirebamo, imodoka iri hirya ye y'umweru, ikigega kirekire cyubakiye n'inzu hari n'abandi bantu bari hirya.

Inzu nziza, nini, ndende, y'igorofa, igeretse kane, imbere yayo hari imodoka eshatu; ebyiri zirasa zifite ibara z'umutuku, n'indi y'umweru, abantu bahagaze n'undi uri kwinjira, igiti kirekire kigandaye, gifite amababi meza y'icyatsi.

Ahantu hagaragara nko kwa muganga hari imodoka ihari itwara abarwayi barembye, impande yayo hahagaze abagabo batatu bambaye imyenda itandukanye, ishati y'umweru, umukara n'undi uteye intambwe bari kumwe.

Inzu nini yubatse neza n'amatafari ahiye, isakajwe ibati ry'umutuku, imbere yayo hari uduti tuhateye tukiri dutoya, abasore bahagaze harimo ushyize amaboko inyuma n'uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umugabo uhagaze yambaye imyenda igaragaza ko ari iy'umuntu ufunzwe, ukuboko kwe yagushyize inyuma ukundi kuri, imbere asa n'igikara inyuma ye hari imodoka ifite amabara atandukanye, umweru mu itara ryayo harimo umutuku.

Abantu bateraniye ahantu bicaye abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru bateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hari umuntu wambaye imyenda y'imfungwa y'ibara rimwe, imeza ihateretse n'abandi bishingikirije udukoni, hirya yabo hari ishyamba n'inzu.

Ahantu hari abantu benshi higanjemo abambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'imikara, impande yayo hari insina zihateye zitoshye, abantu bahagaze n'undi muntu wambaye imyenda itandukanye n'iyabo.

Umudamu uri kureba imbere ye yambaye indeba kure ingofero y'umukara izengurutswe nuruziga rw'umuhondo, imisatsi ikora ku rutugu mu myenda ye hari ibara ry'umutuku umweru ibirungo kumunwa.

Izuba ryinshi riri kwaka, inzu y'abagororwa ndende yubakishije amatafari ahiye, abagororwa bari gusohoka bambaye imyenda itandukanye, umwe muri bo wambaye umwenda usa ukwi'we afite umweyo mu ntoki.

Umugabo wiyogosheshe umusatsi yawumazeho yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'Umweru, apfumbase indangururamajwi mu ntoki ye yambaye amataratara maso ye imbere ye hari mudasobwa.

Ikibuga gihagazeho imodoka ebyiri, iy'ubururu n'iy'umweru, imbere yayo hari icyapa kiriho umuntu wifashe mu mutwe, wambaye isaha n'abandi bafite umuhini mu ntoki, yateze igitambaro cy'umukara n'umweru.

Umuntu w'umugabo uhagaze, yambaye amataratara, ingofero mu mutwe ifiteho akantu kari mu ibara ry'umutuku, ikoti ririho ibipesi bine n'imifuka, azamuye ukuboko, afashe ku gitambaro cy'ubururu.

Ikibuga kinini kirimo imodoka nyinshi, icyuma kirekire kihashinze gifite ikindi gitambitse gishamikiyeho, abantu bahagaze imbere yazo n'abandi bari kuzimya inkongi y'umuriro hatumutse imyotsi myinshi.

Abantu benshi batandukanye buri wese ari muri gahunda ze abagabo babiri bafite ikizimyamuriro inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ry'umutuku ibirahuri by'umukara inzu ndende y'igorofa.

Abantu benshi bambaye impuzankano y'ubwoko bumwe, inkweto zisa, ipantaro n'ishati bisa, ku maboko yabo hari icyapa cy'umuhondo kirimo n'akabara k'ubururu n'ak'icyatsi, ingofero ziriho ibirangantego.

Imodoka ihagaze ndende, nini, ifite ibara ry'umweru n'ubururu y'ubucuruzi, irimo ibintu bipanze bitandukanye, buri gace kagiye karimo ibyako, inyuma hari ikindi kintu cy'umutuku gifasheho.

Ikibuga kinini kirimo abantu benshi cyigishirizwamo gutwara ibinyabiziga, umuntu ushinzwe umutekano wambaye impuzankano yabo, afite igitabo mu ntoki n'amakaramu azamuye ukuboko, mu mpande ye hari imodoka zihahagaze n'abantu bicaye ku ntebe, n'ibiti birebire bikuze n'amazu.

Abagore bari ahantu hubatswe n'amahema bambaye imyenda y'imikenyero ihuje amabara umuhondo n'icyatsi, umwe afite indangururamajwi mu ntoki ze yambaye amataratara mu maso azamuye ukuboko n'intoki ebyiri.

Abantu benshi bahagaze, batonze imirongo ibiri, harimo abagabo n'abagore, umwe afite igikapu, undi umupira mu ntoki, ndahabona ibiti, bari kureba imbere.

Umugabo wambaye imboneneraku, ikoti ry'umukara na karuvati bisa, ishati y'umweru umusatsi mukeya, amasoso afite, inyuma ye hari umugore ugaragara ijisho rimwe n'izuru, afite umusatsi mukeya.

Abamama benshi bicaye bambaye imikenyero y'umweru irimo n'umutuku, n'utundi mu mutwe, bazamuye utuntu hejuru, tw'uturangantego twamamaza umukuru w'igihugu, ni benshi, abagabo n'abagore.

Abantu benshi bateraniye ahantu bishimye bari guseka bazamuye amaboko yabo afunzemo igipfunsi, imbere yabo hari Umukuru w'Igihugu wambaye ingofero y'umukara iriho ikirangantego imbere, amataratara mu maso, na we azamuye ukuboko.

Abagore babiri bicaye umwe ateze igitambaro mu mutwe gifite imihiro myinshi, gipfundikiye imbere umutako yambaye ku gutwi no mu ijosi, atumbiriye imbere, abumbye iminwa, hirya ye hari undi uhicaye, ufite ijisho ritareba neza.

Abantu benshi bateraniye ahantu abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umutuku, bambaye ingofero mu mutwe, imbere yabo hari abandi bantu bambaye imyenda y'umweru gusa, bari mu kayira gatambitseho ibyuma.

Abantu benshi bahuriye ahantu hubatse amahema, biganjemo urubyiruko, bambaye imipira y'umweru, iy'umutuku n'iy'ubururu, harimo abazamuye amaboko n'undi uyashyize inyuma ye, inzu izamuye y'igorofa igereretse inshuro ebyiri.

Ikirangantego gishushanyije mu buryo bw'uruziga, kirimo igipfunsi gifite isaka ry'umutuku, amabara atandukanye, ubururu, umweru, icyatsi, amagambo yanditse mu nyuguti nkuru, zigaragara neza.

Abantu bicaye ahantu ku ntebe z'umukara zisa, ameza maremare y'umutuku ateretseho mudasobwa, umugabo uzanye agaseke mu ntoki agafatishije amaboko yombi, n'undi ugiye gushyira ibahasha muriko bose bari kureba.

Inzu yubatse mu buryo bw'amashuri isakajwe ibati ry'ubururu, imbere yayo hari abantu benshi batonze umurongo, abakobwa, abagore, abagabo hejuru yabo hari umutako uhari urimo udutambaro tw'icyatsi ubururu, umuhondo, ubusitani buhateye inyuma yabo.

Umugore wicaye yambaye imyenda y'umweruru , amataratara, imisatsi ipfutse amatwi arareba imbere.

Abantu benshi bateraniye ahantu bahakoraniye abicaye n'abahagaze, imbere yabo hari umugore wambaye imyenda miremire, indangururamajwi imuri iruhande ayivugiramo, azamuye ukuboko imbere ye.

Umuntu wicaye yambaye ikoti ry'ubururu ishati y'umweru karuvati y'umutuku, imbere ye hari mudasobwa n'indangururamajwi, ari kureba yitegereza, afite agasatsi gake ku mutwe, inyuma ye hari irido ririmo amabara atandukanye.

Umugore wicaye areba imbere yambaye indebakure afite indangururamajwi mu ntoki, mu mpande hari abandi bahagaze bambaye imikenyero hejuru ari icyatsi. Icyapa kiri ku meza cyanditseho amagambo ari mu nyuguti nkuru avuga ngo umurinzi.

Umuhanda munini ukoze neza urimo imodoka nini y'umweru itwara imizigo, ihambiriweho ibyuma n'imigozi y'umukara. Abantu b'abasore bari kuyihambira, n'undi wegamye kuri yo ku kizuru cyayo imbere.

Imodoka nini iri mu muhanda munini mwiza ukoze neza isize amabara y'umuhondo n'ay'umweru n'ay'icyatsi, impande yayo hari ibiti bihateye bikuze neza birebire bifite amashami agandaye atoshye, n'ikinyabiziga kiri mu muhanda cy'ikinyamitende.

Umuhanda uri kugendamo imodoka nini zitwara imizigo, umuntu uri gucunga ipine n'amaboko imbere ye hari undi ufite umutwaro umufuka w'umweru mu nini uri ku bitugu byiwe, ari kugenda n'amaguru.

Umuhanda nyabagendwa munini, harimo imodoka itwara abagenzi, banayirimo, inyuma yayo hari ibinyabiziga by'ibinyamitende byicaweho, hirya mu mbavu zawo, hari akayira k'abanyamaguru, ibiti bikuze neza birebire.

Umuhanda munini kandi mugari hari imodoka ziri kugenda n'izihagaze zifite amabara atandukanye harimo iy'umukara n'iy'umweru n'inindi nini ifite ibara ry'ubururu n'ibara ry'umutuku n'ir'umweru, hari ibiti birebire mu mpande zawo n'amazu ahakikije.

Umuhanda munini ukoze neza, urimo ibinyabiziga by'ibinyamitende n'ibindi biri hirya yabyo bihagaze, inzu zihubatse zishoreranye hari igeretse, abantu bahagaze, umumama uba ufite insankazamajwi mu ntoki, akenyeye igitenge n'ikindi yiteze mu mutwe.

Umuhanda munini urimo imodoka ihetse abantu benshi irikugenda, mu mpande zayo hubakishije amabuye, hirya gato umuntu urikugenda n'ibiti birebire bikuze neza, bigandaye bisa n'ibiza mu muhanda.

Umuhanda munini ukoze neza uri kwakamo izuba, mu mpande yayo hubakishije amabuye, imodoka iwurimo isa n'umutuku nini izwiho gutwara imizigo n'imicanga, hepfo yayo abantu bahari n'ibiti birebire bikuze.

Umuhanda munini uri kugedwaho n'ibinyabiziga bitandukanye ibinyamitende n'imodoka byicayemo abantu byose, hirya yaho hari ibiti bihateye birebire byakuze, umuntu ufite umufuka ku rutugu yambaye igisarubeti kirekire cy'umukara.

Ikinyabiziga cy'ikinyamitende kiri mu muhanda munini, gihetse umuntu, impande yawo hari ibiti birebire byakuze n'ibindi byatewe bifite ibara ry'umuhondo, ibirebire bifite ibara ry'icyatsi n'ibindi bigandaye mu muhanda.

Igikoresho gitwara imizigo, batwara bacunga mu ntoki, imbere yacyo hari abantu bahagaze n'abicaye, umuntu ucuruje ibitunguru, inyanya, n'imboga, umugabo ufite agafuka mu ntoki, umupira mu ijosi, yambaye n'undi w'ubururu.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, bifite n'amabara menshi; umweru, umutuku, icyatsi, hepfo yabyo hari igiti kinini kigandaye, umuriro w'amashanyarazi, umuntu uri kugenda mu muhanda, yambaye ingofero y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa wubatswe neza mu mpande zayo hubakishije amabuye, umuntu uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru, imodoka ebyiri ziwurimo ziri mu byerekezo bitandukanye, hirya yabyo hari ibiti bikuze n'umuntu uhahagaze.

Umuhanda munini nyabagendwa mu mpande zayo hubakishijwe amabuye, utuyira tw'abanyamaguru duhari, ibiti birebire bihateye byakuze bigandaye, imodoka y'umweru iwurimo itwara imizigo n'umuntu uyitwaye.

Umuhanda munini urimo imirongo icagaguye y'umweru, ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda mu cyerekezo kitari kimwe, umuntu w'umugabo uri inyuma ya kimwe ari kugenda, abandi bari hirya y'inzu ndende y'igorofa igeretse.

Abantu benshi batwara ibinyabiziga by'ibinyamitende, barahagaze babyicayeho n'abandi bari gupakira imizigo, harimo abambaye imyenda y'ubururu, inkweto z'umuhondo, abagore bitandiye n'abandi bari kureba ku ruhande.

Imihanda ibiri ikoze neza yegeranye, hagati yayo hateyemo ubusitani inyuma yabwo hari imodoka iri kuza imbere. Ikinyabiziga cy'ibinyamitende cyicayeho umuntu, hirya ibiti bikuze neza bitoshye.

Umuhanda munini ukoze neza urimo ibinyabiziga biri kugenda, imodoka y'umweru ihetse ibintu birebire bigaragara ko ari imbaho, bizirikiye inyuma, hirya yayo hari inzu ihubatswe n'ibindi binyabiziga by'ibinyamitende bihahagaze n'umukobwa uri kugenda bigaragara ko ari umucuruzi w'amayinite.

Umuhanda munini uri kwakamo izuba ryinshi, harimo imodoka ziri kujya mu cyerekezo kimwe, ifite ibara ry'ubururu n'iry'umuhondo ku itara ry'umutuku ihetse ibintu bihambirije umugozi muremure w'umweru.

Imihanda ibiri miremire iri mu icyerekezo kimwe itandukanyijwe hagati n'ibyuma ndetse binateyemo ubusitani, hepfo yayo hari umuntu uhahagaze, ishyamba rya kimeza n'amazi ahari agaragara ko ari ikiyaga.

Ikibuga kinini, kirimo ibyatsi, hari aho byapfutse, ahari kwaka izuba n'aho ritari, hirya hari ibyuma birebire bihahagaze, hateye n'ibigori bikiri bibisi, bitarasarurwa.

Umuhanda munini uri kuberamo isiganwa ry'amagare mu karere ka Muhanga. Mu mpande zayo hari abantu benshi baje kureba , bambaye imyenda itandukanyije amabara: umutuku , umukara ,umweru ,ubururu.

Icyapa kibwira abantu guhagarara cyanditse mu nyuguti nkuru nini enye, kigizwe n'amabara atandukanye, umweru umutuku, inyuma ya bo hari ishyamba rirerire rihakikije hejuru hari ibicu by'ubururu.

Umuhanda munini imodoka iri kugenda icanana amatara y'umutuku akayira k'abanyamaguru ibiti byakuze birebire ubusitani buhakikije inzu iruguru yabwo nini cyane ifite igipangu kirekire.

Umuhanda muremure wubatse neza, imbere yawo amazu, ibiti bihahagaze, ubusitani buhateye butoshye neza, ikinyabiziga kihahagaze k'ikinyamitende, icyapa kihashinze cyanditsemo inyuguti ya P nini, icyuma kihahagaze gishamikiyeho insinga nyinshi z'amashanyarazi.

Ahantu h'ibara rimwe hazengurutswemo ikizeru kinini cy'umutuku. Hagati yacyo harimo umweru usizemo, handitsemo umubare mirongo itandatu, hagati yawo harimo umweru muri zeru no muri gatandatu.

Inzu nini y'igorofa, imbere yayo hari imitaka myinshi, ishoreranye y'ubucuruzi, abantu bari kugenda n'abahagaze, imbere yaho hari umugabo wicaye arambuye intoki, yifashe ku itama, acuruje amataratara menshi, ku kintu atondetseho menshi.

Amazu menshi yubatse mu buryo bugezweho, yegeranye ku buryo acucitse, ibiti bihateye byakuze cyane harimo ibigiye kuma byakubiswe n'izuba n'ibindi bitoshye, hakurya hari ibicu bitagaragara neza by'ubururu n'umweru.

Ubusitani bumeze neza burimo ubwatsi bukiri buto n'ibiti bikuze, harimo ibyagandaye bifite amashami maremare, hari kwakamo akazuba bitandukanyije ibara, harimo ibifite utubabi tw'umweru n'ibindi by'umukara n'iby'icyatsi.

Inzu y'igorofa igizwe n'amabara abiri, umweru, umukara, ifite uruzitiro rw'ubusitani, impande yaho hari umuntu uhahagaze.

Amazu menshi yubatse acucitse cyane mu buryo bigaragara ko yegeranye, afite amabati hejuru ashaje n'andi akiri mashyashya, afite ibara ry'umukara n'umutuku, hirya yayo hari ishyamba rikuze rihari n'insina zihateye mu murima.

Inzu nini cyane y'igorofa igeretse inshuro nyinshi, imbere yayo hari n'izindi zihubatse zizengurutswe n'igipangu kirekire cyubakishije amatafari ahiye, ubusitani buhakikije n'igiti kirekire gikuze.

Inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isakajwe itegura imbere yayo hari imodoka ebyiri, iri gusohoka yicawemo n'umuntu inyuma yayo hari indi ihahagaze, igiti cyakuze kirekire gisa neza, igipangu gisize irangi ry'umweru.

Umuhanda ukoze neza urimo umurongo w'umweru, hirya yawo hari ubusitani buhateye, igiti kirabije, indabo z'umutuku, igipangu cyihazengurutse cyubakishije amatafari ahiye, inzu y'igorofa ingeretse inshuro nyinshi.

Umuhanda munini w'umukara, imbere yayo hari inzu y'igorofa igereretse inshuro ebyiri, imodoka ihahagaze, igiti kirekire kihateye gitoshye kigana mu muhanda, ibyapa bigiye biri kuri iyo nzu byanditseho ibirangantego bitandukanye.

Inzu nini y'igorofa igeretse inshuro nyinshi, hejuru yayo hari ibyuma bihashinze mu mpande, ubusitani buhateye bwakuze, umuntu uri kugenda mu muhanda ahetse igikapu cy'umukara, imodoka, ikinyabiziga cy’ikinyamitende cyicayeho umuntu.

Amazu menshi yubatse mu buryo bigaragara ko acucitse amashyashya n'ashaje, ibiti bihateye byakuze, ikigega cyubakiye, icyuma gishinze gishamikiyeho, insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi, izuba riri kwaka.

Amazu menshi yubatse acucitse yegeranye cyane, ibiti bigiye bihateye, ibipangu bihazengurutse byubakishije amabuye n'amatafari ahiye, ibiti byakuze birebire, amazu y'amagorofa n'andi atari yo.

Umuhanda munini nyabagendwa, harimo imodoka y'umukara iri kuwugendamo, amazu awukikije, mu mpande zayo hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ibyuma birebire bihashinze n'ibindi bifatiye kuri icyo gipangu.

Ishyamba rya nyandungu, ibiti byaho byarakuze biba birebire, bigira amashami asobekeranyije, meza, atoshye, munsi yabyo hari akazuba kari kwaka, n'utwatsi dutoya tutakuze nka byo.

Umuhanda munini harimo imodoka iri kugenda y'umukara, hirya yawo hari akabari karekare kabubatse gafite igipangu cy'umweru n'amagambo yanditseho, hino hari igipangu cyubakisha amatafari ahiye n'ibyuma birebire bihashinze hariho ibyapa.

Imihanda ibiri ihurira ahantu hamwe mu mpande zayo hari umurongo uri mu ibara ry'umweru, ubusitani buhateye burimo igiti, hirya amazu ageretse akikijwe n'ibiti byinshi, igipangu kirekire kizengurutse ayo mazu.

Umuhanda munini ufite akayira k'abanyamaguru, imodoka ziri kugenda harimo inini itwara imizigo ikinze, imbere ye hari ikinyabiziga cy'ikinyamitende cyicaweho n'umuntu wikoreye umuzigo ku mutwe n'abandi bari imbere ye.

Umuhanda ukoze neza, munini ushamikiyeho undi; hagati yayo hateyemo ubusitani bwiza, igiti kirekire, gikuze, gifite amababi agandaye; hirya yacyo hari ikinyabiziga gihetse umuntu cy'ikinyabitende; imodoka iri mu wundi, iri kugenda.

Umuhanda munini, urimo kugendamo imodoka ifite irangi ry'ubururu, ibimenyetso bimurika biri kwaka, imbere y'ayo hari ikinyabiziga cy'ibinyamitende gihetse umuntu, n'imodoka ziri hepfo yawo nazo ziri kugenda.

Imodoka ziri mu muhanda munini zihagaze mu buryo butandukanye imwe ireba hepfo yicayemo umuntu indi ireba ruguru, zifite amabara atandukanye umweru, umutuku hirya yaho hari ibiti birebire byakuze.

Umuhanda mugari ugabanyijemo ibiri hagati yayo, hari ubusitani buhateye, ibiti byakuze, ibinyabiziga biri kugenda by'ibinyamitende byinshi, bishoreranye biri mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda munini ugabanyijemo kabiri hakoreshejwe umurongo muremure w'umweru, yose irimo imodoka ziri kugenda, ikinyabiziga cy'ikinyamitende, umusore uhahagaze yambaye ipantaro y'umukara n'ishati n'inkweto.

Imihanda ibiri minini ikoze neza, hagati yayo hari ubusitani buhateye, ibyuma bishinja bisobekeranyije, hakurya n'ubundi buhari ibiti birebire bikuze, abantu b'abagabo bahahagaze bari gutera intambwe.

Amasangano y'umuhanda munini urimo ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda, imodoka n'ibindi by'ibinyamitende bihetse abantu, hakurya yabyo hari amazu ashoreranye ku murongo, azengurutswe n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye n'ibiti birebire bikuze.

Umuhanda munini ikiraro kirwanya isuri umuntu uhahagaze, n'igare rihari ibinyabiziga biri guturuka hepfo bicanye amatara, n'andi ari ku muhanda igiti kirabije indabo nyinshi, n'ibindi biri hepfo byakuze birebire.

Umuhanda munini uri kugendamo ibinyabiziga by'ibinyamitende byinshi bihetse abantu n'imodoka, hirya yaho hari aho bicara bazitegereje, ibiti birebire byakuze, harimo ishami rirerire ryashatse gucurama risa n'irireba mu muhanda.

Umuhanda munini nyabagendwa, hagati yawo hateyemo ubusitani n'ibiti, icyuma gishinze kiriho amatara, hepfo yaho hari abantu bari kugenda n'imodoka iri kuza n'inzu y'igorofa igeretse, hakuno hari abantu benshi abagabo n'abagore, abahagaze abari kugenda n'undi uri kuvugira ku itumanaho, imbere ye hari ikinyabiziga k'ikinyamitende n'imodoka iri hirya.

Umuhanda muremure w'igitaka harimo utubuye dutoya mu mpande zayo hari imirwanyasuri yakozwe hateye indabo hakikijwe n'amazu y'ibipangu ashoberanye meza asakajwe amwe amabati y'imituku n'ubururu hari icyuma kirekire gishamikiyeho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda munini nyabagendwa, nta kinyabiziga na kimwe kirimo. Hirya yoho hari ubusitani buhateye, amazu ahakikije y'amagorofa maremare, igipangu kihubatse gisize irangi ry'umuhondo, ibiti birebire bikoze neza.

Umuhanda munini nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi, harimo imodoka, ibinyamitende, ibiriho abantu, ibicanye amatara, hepfo yabyo hari icyuma kirekire kiriho insinga nyinshi zijyana umuriro w'amashanyarazi, amazu ahakikije.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga biri kugenda, mu mpande zayo hari imodoka ihagaze, icyuma kirekire gishinze gishamikiyeho izindi ntoya zijyana umuriro w'amashanyarazi, ishyamba rikuze, itara riri kwaka, inzu ihubatse n'ibindi binyabiziga by'ibinyamitende bihahagaze.

Umuhanda munini wubatse ushamikiyeho undi uhurira ahantu hamwe, hagati yayo hateye ubusitani igiti kirekire gikuze, umuntu uri iruhande yabwo uri ku igare n'abandi bantu bari ku binyabiziga by'ibinyamitende bihagaze.